Aha biragaragara ko ari ikirori runaka cyabaye, aho ubona ko abantu bicaye, bafite amazi, imitobe, banywa, bigaragare ko imbere yabo hashobora kuba hari n'abandi bantu, bashobora kuba barimo barabashimisha, aho ubona bamwe barimo barafotora cyangwa se imbere yabo hashobora kuba hari abandi bantu, barimo barabagezaho ibiganiro runaka.

Umuntu wicaye ku ntebe imbere ye hari amacupa y'amazi ku meza hari bike, terefone n'akayi ko kwandikamo.

Inka z'inyambo ubona bambitse ibintu by'ingori mu kigo ndangamuco Nyarwanda, cyangwa ahantu runaka hari umuco nyarwanda n'amateka nyarwanda.

Urabona ko aba ari itorero cyangwa itsinda ry'ababyinnyi ririmo ri abyinira abantu bari mu birori runaka, bishobora kuba bwaba ari ubukwe, cyangwa se ari nk'ibirori byabereye ahantu nko kwizihiza nk'umunsi mukuru runaka.

Biragaragara ko aha ari ku rugomero rukuru rw'amashanyarazi y'ahantu runaka, ashobora kuba ari urugomero rw'Akarere urw'Intara cyangwa se n'urw'Igihugu.

Ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi ubona ko hari umuntu wuriye ashobora kuba hari ibyo arimo aresitara kuri iryo pironi, ubona ko iryo pironi hasi, hepfo yaryo hari igishanga ahandi wagirango ngo ni mu ishyamba.

Abantu ubona ko bari ku kigo nderabuzima aho hicaye abana hari n'umubyeyi urimo arinjira muri iki kigo nderabuzima, ubanza abana bahabwa indyo yuzuye iturutse muri iki kigo nderabuzima, kubona bicaye bafite icyo bategereje.

Umuntu utwaye moto hagati y'umuhanda ubona ukikijwe n'amasenyenge impande zombi.

Biragaragara ko iyi nzu ishobora kuba ari ikigo nderabuzima aho ku cyapa kiri ku nzu cyaditseho kandi hakaba hariho n'abantu wagira ngo n'umuryango baje kwivuzwa ubona ko bafashe utwana twabo mu ntoki, umugore n'umugabo bafashe utwo twana mu ntoki akaba ubona inzu zikikijwe n'amajaride ndetse inyuma yayo yazo hakaba hari n'amashyamba.

Ahantu ubona ko ari inyubako wagirango nizo kwa muganga aho bicaye abantu bajyanwa, bategereje ibisubizo bya ba muganga imbere y'izo nyubako hakaba hari jaride.

Ahantu ubona ko ari amarembo y'ikigo cy'amashuri cyangwa ahantu ku kigo nderabuzima runaka, imbere ubona harimo abantu n'inyubako zitandukanye.

Abantu bigaragara ko baje kwibuka abatutsi bazize Genoside, 1994 mu Rwanda. Aho bigaragara ko harimo n'inzego z'igihugu z'umutekano zu Rwanda. Aho tubona imbere yabo bantu hicaye umuntu ukorera ikigo cy'igihugu gishizwe iperereza mu Rwanda.

Biragaragara ko abantu bari mu nama; kuko ubona ko bamwe bari kwandika muri za mudasobwa, abandi bari kwandika ku makaye asanzwe ku buryo harimo n'abo mu nzego z'umutekano w'igihugu.

Abantu bari kumwe n'abapolisi n'abasirikare, n'abandi bantu bambaye ingofero zimeze nk'iza abafundi, imodoka, n'inzu z'imbaho.

Abantu bari mu rutoki, nyine bafite inkoni hari n'ibintu by'ibiti imbere yabo bimeze nk'udutanda bashyiraho ibintu.

Abantu ubona bari mu nama runaka, wagira n'abaturage batuye ahantu basuwe n'umuyobozi akaba ari kugira ibyo ababwiraho no kubafasha gukemura bimwe mu bibazo baba bafite.

Icyapa kiyobora abantu, ubona ko kibayobora ahantu runaka, hashoboka kuba ari mu kigo cy'amashuri cyangwa se mu ivuriro, hari ubusitani n'igiti wagira ngo ni icya pinusi.

Ahantu bigaragara ko haparikwa imodoka zitwara abagenzi, ubona ko n'abagenzi ariho baba bategerereje izo modoka kuko ubona ko hari imifuka iri hasi n'abagenzi bayihagaze iruhande, bigaragara ko ariho bategera imodoka; zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi.

Imodoka itwara abagenzi iri mu gahanda k'amabuye, imbere yayo mu ruhande rw'ibumoso rwayo, hari guturuka umuntu ajya mu gice ivamo. Imbere y'uwo muntu gato hakaba hari amamoto aparitse. Ku ruhande rwe hari n'inzu imiryango yazo ikinguye.

Imodoka iri mu muhanda ubona ko ari iy'Akarere runaka. Iri imbere y'amazu y'ubucuruzi. Ayo mazu y'ubucuruzi, imbere yayo kandi haparitse amamoto hari n'umutaka w'umuntu wagira ngo abikurira abantu kuri MTN abaha n'amayinite ya MTN.

Inzu icyapa n'urutindo rucamo amazi.

Ndabona ari abantu benshi bamwe bitwikiye imitaka, imbere yabo hahagaze umuntu wo mu nzego z'umutekano w'Igihugu, aho mbona ari umusirikare ufite imikoro afite ikintu arimo arababwira.

Abakinnyi b'umupira babona bari gukina umupira, hakaba n'undi muntu uryamye hasi utamenya icyo yabaye, niba yavunitse hirya yabo bakinnyi hakaba hari abandi bantu nabo bahagaze, inyuma yabo bantu hakaba hari ibiti n'amazu.

Abantu ubona ko ari abakinnyi b'ikipe z'umupira w'amaguru ebyiri zitandukanye ubona ko hakurya hicaye abafana abandi bahagaze bari kureba uko aya makipe akina.

Ndabona ari umuhanda wa kaburimbo, ku mpande ukikijwe n'amajaride meza cyane, aho hari umubyeyi uri ku ruhande, urimo uragenda mu nzira y'abanyamaguru, ubona uhetse igikapu wagira ngo agiye nko ku isoko cyangwa avuyeyo.

Umuntu uri muri kaburimbo, ibiti, amazu, amapoto y'umuriro w'amashanyarazi, insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'ibyatsi.